Abantu bahagaze bigaragara ko baje gusaba serivisi zijyanye n'ubuvuzi, hakaba hari uwicaye urimo kubafasha kubona iyo serivise. Iruhande rw'aho yicaye ku meza hateretse indobo ibikwamo imiti, yaje kwifashisha mu gihe araza kuba arimo gutanga serivise.

Ababyeyi b'abamama bahagaze ahantu hamwe bigaragara ko hari igikorwa runaka bamaze gukora bakaba baro bifotoza, hagati muri bo hagiye harimo abamama bamwe na bamwe bambaye amajire agaragaza ibyo bashinzwe, hakaba hari n'abandi bamama bambaye imyenda isanzwe ndetse n'abandi bahetse abana.

Umubyeyi w'umumama, akaba ari umubyeyi uteruye umwana, ahagaze ku ivomo, munsi y'ivomo hateretse indobo yaje kuvomeramo amazi, hirya hagiye hari amazu atandukanye asakaje ibyatsi.

Abantu babiri umwe ni umwana undi akaba ari umuntu mukuru, uwo mukuru ni umubyeyi usa naho ari we wabyaye uyu mwana, bahagaze mu murima uhinzemo imboga za dodo.

Abantu bicaye mu nzu mberabyombi bigaragara ko baje mu nama. Hari abantu benshi cyane, imbere hari abantu bicaye mu myanya y'icyubahiro bisa n'aho ari abayobozi bakomeye cyane, inyuma hari ikirango kigaragaza igikorwa nyamukuru cyabateranyije.

Abantu benshi bahagaze ahantu hamwe, bigaragara ko hari igikorwa runaka bamaze gukora bityo bakaba barimo kwifotoza ifoto y'urwibutso, hakaba higanjemo igitsina gore, hakaba harimo abantu bambaye imipira y'umweru, inyuma hari icyapa kigaragaza ibikorwa byabateranyirije aha ngaha.

Abantu batandukanye bambaye amataburiya asa bisa n'aho ari abajyanama b'ubuzima bakaba bateze amaboko bisa n'aho baje gusanganira umugabo uri imbere yabo wambaye ikositimu.

Abana bari ku ivomo bigaragara ko baje kureba uburyo iri vomo rikora kuko ari ivomo rikora mu buryo budasanzwe, bakaba ari abana benshi cyane bigaragara ko bari munsi y'imyaka icumi, hari ibase barimo kujya bakarabiramo.

Abantu batandukanye, bahagaze, barimo kwifotoza, hakaba harimo abambaye amataburiya y'umweru bigaragara ko bakora mu kigo cy'ubuvuzi, kandi bambaye amakarita mu ijosi agaragaza icyo bashinzwe, inyuma yabo hari ikirango kigaragaza serivisi nyamukuru bitabiriye.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako, bisa n'aho hari ari abayobozi. Akaba ari abagabo bane ndetse n'abagore batatu. Bamwe muri bo, bafite ibikoresho bimwe na bimwe mu ntoki bifashisha nka telefone cyangwa se ibitabo.

Umubyeyi w'umumama wambaye itaburiya y'umweru ufite indangururamajwi mu ntoki ndetse n'igitabo, ahagaze imbere y'itente yicayemo abantu, bigaragara ko arimo gutanga ikiganiro ku bijyanye n'ubuzima.

Abantu benshi bari mu kibuga bambaye imyenda iri mu mabara agiye atandukanye, bigaragara ko bitabiriye inama, bakaba bari imbere y'inyubako bisa n'aho ari inyubako y'ubuyobozi, imbere y'inyubako haparitse imodoka y'umweru, ruguru yaho hakaba hubatse itente, abayobozi bakuru bicayemo.

Abantu bahagaze, hakaba hari umugabo urimo gukorera umwana akajerekani ka cumi n'atanu, ariko mu by'ukuri akaba ari umwana mutoya ubona ko afite imyaka mike, imbere yabo hakaba hari umugore w'umuzungu ufite telefone, arimo gufotora ibyo uwo mugabo arimo gukora, akorera uwo mwana ako kajerekani.

Umwana ufite igikombe mu ntoki, akaba arimo kuvoma amazi, bigaragara ko ashaka amazi yo kunywa, ahantu arimo kuvoma, hari robine ebyiri, akaba yaje kuvoma ku ivomo rya gakondo, rifite amazi ahora atemba.

Abantu bari ku ivomo bigaragara ko baje kuvoma amazi, ariko hakaba hari umubyeyi w'umumama urimo kuhagira umwana. Umwana yicaye mu ibasi, umubyeyi arimo kujya amukarabiriza mu ibasi. Iruhande rwabo kandi hari undi mubyeyi w'umumama uri kumwe n'umwana ufite indobo mu ntoki.

Abantu bahagaze imbere y'inyubako, akaba ari inyubako ikorerwamo inama, bakaba bahagaze barimo kwifotoza bisa naho inama bari bitabiriye irangiye, harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba harimo n'abantu bambaye imyenda y'abaganga bisa naho ari abaganga, bakaba bari bari kuganira ku bijyanye n'ubuvuzi.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, bikaba bigaragara ko hari igikorwa cyabateranyirije ahantu hamwe, harimo abantu bamwe na bamwe bahagaze bisa naho babuze aho bicara.

Abantu bari imbere y'inyubako bisa naho ari ku rubaraza. Hakaba hari abagabo babiri bambaye imyenda igaragaza ko ari abaganga. Hirya hari abandi bantu bisa naho baje gusaba serivisi zijyanye n'ubuvuzi. Hagati hari imeza iteretseho mudasobwa.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano z'ikigo, bakaba baje ahantu hateretse indobo zirimo amazi, bakaba barimo kuvoma amazi yo kunywa, ibi bikaba bikorwa mu rwego kugira ngo abana bajye banywa amazi meza kandi asukuye.

Umwana uri ku mugezi ,akaba arimo kuvoma amazi. Afite amajerekani atatu yose y'umuhondo, arimo guseka, bisa n'aho anejejwe no kuba arimo kuvoma amazi. Umugezi arimo kuvomaho ,upavomesheje sima.

Umwana uri imbere y'ikigega, akaba afite igikombe mu ntoki arimo kuvoma amazi, bigaragara ko ashaka amazi yo kunywa, akaba ari umwana wambaye impuzankano y'ishuri bigaragara ko ari umunyeshuri, ikigega arimo kuvomaho amazi n'ikigega cy'umukara.

Abantu bicaye bisa naho baje gusaba serivisi zijyanye n'ubuvuzi, hakaba hari abaganga barimo kubafasha kubona izo serivise, hirya y'aho hari umusore wambaye ijile ikunze kwambarwa n'abasore b'abakorerabushake cyangwa se urubyiruko.

Umwana urimo kumwe n'umuganga, umuganga akaba afite urushinge mu ntoki, arimo kurumutera ku kuboko, bisa naho arimo kumukingira indwara runaka. Umwana biragaragara ko afite ubwoba, bisa naho urushinge rurimo kumurya.

Abantu bari mu cyumba cyo kwa muganga, hakaba hari umubyeyi w'umumama uryamye, bigaragara ko atwite, iruhande rwe hari umugore bisa naho ari umurwaza we, hino ku rundi ruhande hakaba hari umugore bisa naho ari umuganga, hakaba hari agakoresho yashize ku nda akaba ateze amatwi arimo kumva niba umwana arimo gukina mu nda.

Abantu babiri, umwe ni umuganga, undi akaba ari umubyeyi ukikiye umwana, bigaragara ko umuganga arimo guha umuti umwana. Abaganga ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi kubera yuko iyo turwaye baduha imiti tugakira.

Umubyeyi urimo gusukira umwana amazi, akaba arimo kuyamusukira akoresheje ijagi, umwana arimo gukaraba intoki, afite n'isabune mu ntoki mu rwego rwo kugira ngo akarabe intoki neza kandi zike.

Abantu babiri bahagaze imbere y'inyubako, imbere yabo kumeza hakaba hateretse ibikoresho bitandukanye, umwe ni umugabo undi n'umugore, inyubako bahagaze imbere yayo yubakishije amatafari ya ruriba.

Umubyeyi w'umumama wikoreye indobo y'umutuku akaba afite n'indi ndobo mu ntoki y'umuhondo, biragaragara ko avuye kuvoma amazi, imbere ye hari ibihuru bisa naho atuye mu ishyamba, muri icyo gihuru hakaba hari ibiti by'amoko atandukanye.

Umugabo uhagaze imbere ku gatute akaba yambaye ikositimu ndetse na marinete, inyuma ye hari ikirango kigaragaza igikorwa nyamukuru cyabateranyirije aha ngaha, hanyuma akaba ari we urimo gutanga ikiganiro cyangwa se urimo kubaganiriza ku nsanganyamatsiko y'umunsi.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri, bose bafite indangamanota zabo mu ntoki, bisa naho ari umunsi wo gufata amanota, hirya hari inyubako bisa naho ari ikigo cy'ishuri bigaho.

Abantu bicaye ku ntebe zimbaho zegamirwa bigaragara ko bitabiriye amahugurwa, bakaba bari mu nyubako iteye amarangi y'umuhondo ku bikuta hagiye hometseho impapuro zigaragaza serivisi zitandukanye.

Abantu bicaye mu buryo bw'uruziga barimo kuganira, bikaba bigaragara ko hari ingingo nyamukuru yabateranyirije hamwe mu rwego rwo kugira ngo icyo kibazo kiganirweho kandi gishakirwe umuti.

WASAC ni ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe gukwirakwiza amazi meza cyane kandi asukuye ku banyarwanda, mu rwego rwo kugira ngo bagire imibereho myiza kandi bazarambe. Nawe ushobora kuba ukeneye amazi ubundi ugahamagara iki kigo bityo kikaza kikagufasha kubona amazi meza kandi asukuye.

Abana bari ku ivomo rya gakondo bakaba baje kuvoma amazi. Hari umwana uri imbere urimo kuvoma amazi ufite utujerekani tubiri tw'arindwi, inyuma hakaba hari umusore urimo kujya apomba amazi kugira ngo aze. Hirya kandi hari umubyeyi w'umumama urimo gutambuka, hirya ye nanone hakaba hari undi mwana uhagaze utegereje kuvoma.

Abantu bari ku ivomo rusange bakaba baje kuvoma amazi, bamwe bari kuvomera mu ndobo abandi mu majerekani, hirya yabo hateye ibiti bituma babona umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Abantu batandukanye bambaye imyenda iri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, hamwe n'ingofero z'umweru bigaragara ko hari igikorwa runaka cyabahurije hamwe kijyanye n'ubuzima. Bafite ikirango imbere yabo kigaragaza serivise zabateranyirije hamwe.

Abadamu batatu bari ku ku mugezi, bakaba baje kuvoma amazi, bafite amajerekani menshi cyane bisa n'aho ari mu gihe cy'ibura ry'amazi hanyuma bakaba baje kuvomera amazi rimwe kugira ngo atazongera kubura vuba.

Abantu benshi bateraniye mu nzu mberabyombi, akaba ari inzu abantu bahuriramo bakaganira ku ngingo runaka bitewe n'ikintu bashaka guhugurwaho, hagati muri abo bantu hari umuntu wambaye itaburiya y'umweru n'ipantaro ya kaki, bisa n'aho ariwe urimo kubigisha abaganiriza.

Abantu bari ku ivomo rusange, bakaba baje kuvoma amazi yo gukoresha ibintu bitandukanye. Iri vomo akaba ari ivomo rya gakondo kuko amazi ahora atemba ntabwo bisaba gufunga amazi iyo bwije. Ni abantu babiri baje kuvoma, iruhande hari undi mugore wambaye ijire ya oranje urimo kubitegereza. Inyuma yabo hari ibiti bimeze nk'ishyamba.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri, buri mwana akaba afite igikombe mu ntoki cya pulasitike, bahagaze imbere y'ikigega cy'amazi bisa naho barimo kunywa amazi. Ahantu bari hari urugo rw'amabati, bikaba bisa naho ari ahantu mu kinani.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishuri, abakobwa bakaba bambaye impuzankano y'ubururu, abahungu bambaye kake, bakaba bicaye barimo kurya akawunga ndetse n'ibishyimbo.

Ababyeyi bahagaze imbere y'inyubako, hakaba higanjemo igitsina gore, abenshi bambaye imyenda isa hejuru, bigaragara ko hari umushinga bakorera, inyuma iruhande rw'urubaraza rw'inzu hari n'abagabo.

Umuntu urimo gukaraba intoki kuri robine, akaba arimo gukaraba intoki mu rwego kugira ngo azigirire isuku, yirinde indwara zandura ziterwa n'umwanda. Robine arimo gukarabiraho irimo kurekura amazi menshi cyane y'urubogobogo.

Ababyeyi benshi bateraniye ahantu hamwe, bigaragara ko baje kwaka serivisie zijyanye n'ubuvuzi, abenshi bakaba bafite abana bisa n'aho aribo baje gusabira serivise, imbere yabo hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa, urimo kubafasha kubona serivisi baje basaba.

Abantu bambaye imipira isa, iri mu mabara y'ubururu bisa n'aho ari impuzankano, bakaba bose bafunze ibipfunsi, bisa n'aho hari igikorwa runaka barimo kwishimira, inyuma yabo hari icyapa kigaragaza igikorwa nyamukuru bitabiriye.

Abantu bicaye mu cyumba bigaragara ko barimo gukora ikiganiro cyangwa se bari mu nama, hagati yabo hari ameza kandi imbere ya buri muntu hagiye hateretse agacupa k'amazi, hari umugabo wicaye hirya witandukanyije na bo bisa n'aho ari umuyobozi mukuru, iruhande rwe hari idarapo ry'u Rwanda.

Umugabo uhagaze imbere y'agatute, akaba yambaye ikositimu ndetse n'amarinete, imbere y'agatute hari intebe bigaragara ko ziteganyirijwe abayobozi bakuru bari buze kwitabira inama. Inyuma hari ikirango kigaragaza igikorwa nyamukuru cyabahurije aha ngaha.

Abana babiri, umwe arimo gukaraba undi akamusukira amazi, uri gusuka amazi afite ibinika mu ntoki, naho uri gukaraba intoki ari gukarabira mu ndobo, afite isabune mu ntoki ze.

Abantu bari mu cyumba gisa n'aho gitangirwamo serivise zijyanye n'ubuvuzi, hakaba hari abandi bicaye bisa n'aho baje gusaba serivise zijyanye n'ubuvuzi, hari abandi nanone bicaye ku meza bisa n'aho ari abaganga, hari umudamu umwe ufite imbere ye mudasobwa.

Abantu bicaye imbere y'inyubako, bakaba bicaye mu buryo bw'uruziga. Bamwe bicaye ku gice giherereye Iburasirazuba, abandi bicaye ku gice giherereye Iburengerazuba, abandi bicaye ku gice giherereye Amajyepfo.

Umubyeyi w'umumama ukikiye umwana, bigaragaza ko yaje kwa muganga gukingiza umwana, hakaba hari undi mubyeyi w'umumama w'umuganga wambaye tabura y'umweru y'akazi, ufite urushinge mu ntoki arimo kurutera umwana ku rutugu, hirya ye hakaba hari agakarito agenda anagamo inshinge zakoreshejwe.

Abantu benshi cyane bateraniriye ahantu hamwe, bigaragara ko ari ababyeyi baje gukingiza abana. Hari abaganga bicaye barimo kwandika mu bitabo, bisa naho barimo kwandika ibipimo bafashe abana.

Umwana w'umukobwa urimo guseka akaba arimo gukaraba kuri kandagira ukarabe, kandagira ukarabe akaba ari igikoresho cyifashishwa cyane cyane ku bwiherero cyangwa se ahandi hantu hahurira na hahurirwa n'abantu benshi mu rwego rwo kugira ngo bimakaze umuco w'isuku.

Abantu bambaye impuzankano yo kwa muganga ndetse n'amakarita abaranga mu ijosi, bikaba bisa n'aho ari abajyanama b'ubuzima hagati muri bo hari umugabo wambaye ikote ry'ikositimu ry'umukara ndetse n'ipantaro yaryo, n'imbere yambariyemo ishati y'umweru na karuvati, hino ku ruhande hari umugabo wambaye itaburiya y'umweru bisa naho ari umuganga.

Abantu babiri. Umwe ni umurwayi undi ni umuganga, umuganga afite urushinge mu ntoki akaba arimo kurutera umurwayi mu kuboko, bisa naho arimo kumukingira.

Abantu bari ku ivomo bigaragara ko baje kuvoma amazi, hakaba hari abashungereye ariko hari n'umumama ufashe icyuma cya robine, arimo kujya apompa bityo amazi akazamuka, kuko amazi aba aturuka hasi mu kuzimu.

Abantu batandukanye bahagaze bose bigaragara ko ari abapapa bakuze cyane, hakaba harimo n'umugore umwe w'umuzungu. Abapapa bambaye amakositimu.

Abantu bicaye mu nyubako, hakaba hari n'undi uhagaze bisa naho ari we urimo kubagezaho ikiganiro ku nsanganyamatsiko y'umunsi, hirya hari ibyapa bigaragaza igikorwa nyamukuru cyabateranyirije hamwe.

Umugabo uhagaze imbere y'inyubako y'ivuriro, akaba yambaye ishati nziza cyane y'amaboko maremare iri mumabara abiri umukara ndetse n'kigina, akaba kandi yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, ahagaze imbere y'inyubako ya Karayesi.

Inyubako itangirwamo serivise zijyanye n'ubuvuzi, akaba ari inyubako ya Caraes, iyi nyubako ivurirwamo abantu bafite ibibazo byo mu mutwe, cyane cyane mu gihe umuntu hari ibintu byabaye runaka, bigatuma umuntu adakomeza kwitwara mu buryo busanzwe.

Abantu bahagaze mu nyubako ubona ko bishimye, imbere yabo hari ameza bigaragara ko ariyo bandikiraho igihe bicaye, hejuru hari idara rikoze muburyo bumeze nk'amatafari.

Umugabo uhagaze bisa naho yunamye, ahantu ahagaze hakaba hari igikuta cyanditseho amazina y'abantu, bisa naho ari abantu bitabye imana, akaba ahagaze ahantu hashyinguwe imibiri y'abantu bapfuyeka mu mwaka w'igihumbi kimwe maganacyenda mirongo icyenda na kane, bazize uko bavutse.

Umuntu uhagaze mu iduka ry'ubucuruzi, akaba ari umumama, yambaye isengeri y'umuhondo bisa naho ari iya MTN, inyuma ye mu iduka harimo ibicuruzwa bitandukanye byifashishwa mu guteka, urugero nka sorwatomu, salisa ndetse n'ibindi.

Abantu bahagaze barimo kwifotoza, bakaba bafite amverope mu ntoki bose bakozeho, bisa n'aho harimo igihembo bahembwe. Inyuma yabo haparitse imodoka kandi hirya y'imodoka hubatse amatente.

Umubyeyi w'umumama, wicaye wifumbase, akaba yicaye ku ntebe y'urubaho. Yicaye mu nzu isa n'ishaje, munsi y'idirishya yarahomotse, bigaragara ko ari amahuhereza yahahomoye.

Umusaza upfukamye, akaba yambaye imyenda ishaje, araramye ari kureba hejuru mu kirere, bigaragara ko hari ikintu cyamurangaje, hirya ye hari abandi bantu bicaye ku rubaraza rw'inzu bisa naho na bo ari abasaza.

Umukecuru urimo guseka bigaragara ko ashaje cyane, yambaye imyenda y'amaribaya idoze mu bitenge akaba yipfutse n'ikindi gitambaro mu mutwe, imyenda yambaye irimo amabara agiye atandukanye: umuhondo, icyatsi, umukara ndetse n'umweru.

Umugabo wambaye imyenda y'ibicwacwabari, akaba afite umufuka ahetse ku rutugu ndetse n'igitebo ateruye mukundi kuboko, yambaye inkweto zishaje, akaba ahagaze mu muhanda wa kaburimbo, inyuma ye hari imodoka y'ikamyo irimo gutambuka.

Umuntu wicaye wambaye igitenge, akaba afite imigozi imuziritse ku maguru, yifashe ku gahanga bigaragara ko ababaye cyane cyangwa se akaba afite ibibazo byamubanye urusobe.

Umugabo wicaye wambaye amapingu bisa naho ari umujura bakaba bamufashe arimo kwiba. Inyuma ye hari umupolisi wambaye inkweto za butini z'umukara ndetse n'imyenda y'umukara akaba ari we wamufashe, inyuma hakaba hari abaturage benshi bashungereye.

Abantu bicaye ndetse n'undi uhagaze, abagore batatu baricaye imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi n'ibindi bikoresho, imbere hakaba hari undi mugore uhagaze bisa n'aho ariwe uri kubaha ikiganiro, akaba afite insakazamajwi mu ntoki.

Umubyeyi ushaje cyane wicaye, yambaye imyenda y'injamba, bigaragara ko ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe, afite mu ntoki ze ibyatsi ari gushyira mu ishashi, iruhande rwe hateretse amacupa y'amazi bisa n'aho ari ayo yatoraguye ahantu bamena imyanda.

Ikirango cya Kampani icururuza imirasire, hakaba hariho umukobwa w'inzobe ufite imisatsi migufi, wambaye umupira w'umukara.

Icyapa gishushanyijeho ikirangantego cy'u Rwanda ndetse n'ikirango cya polisi y'u Rwanda, hakaba handitseho amagambo avuga ngo Isange one stop center, akaba ari ikigo gishinzwe gukurikirana no gukora iperereza ku byaha byakorewe abantu batandukanye.

Umubyeyi w'umumama wicaye ku ntebe y'urubaho, akaba yambaye ijipo ndetse n'agasengeri yatebeje, mu mutwe we yambaye igitambaro, ahantu yicaye inyuma hashushanyije ururabo bisa n'aho ari mu kigo cy'incuke.

Abantu babiri bicaye, barimo kuganira, bose akaba ari abakobwa, imbere yabo hateretse agasahani ka parasitike, karimo udushushanyo tw'abantu.

Abantu bicaye ku ntebe z'imituku, abenshi muri bo bakaba bambaye imyenda isa, bigaragara ko hari ikigo bakorera cyabambitse iyo myenda imeze nk'impuzankano. Inyuma hari icyapa kigaragaza igikorwa bitabiriye. Aho bicaye hasi hashashe amapave.

Umuntu wicaye wambaye ubusa, akaba ameze nk'umuntu uri mu nzu y'imbohe, inzu yicayemo ni inzu bigaragara ko ishaje, yicaye hasi, hasa n'ahari ibyondo, nta sima irimo.

Umugabo wambaye imyenda y'ibicwacwabari bigaragara ko ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe, yambaye ibintu byinshi by'imyanda afite mu ntoki ikintu kimeze nk'imbunda, ku mutwe we yambaye ikintu cy'ikigofero kimeze nk'amarinete, inyuma ye hakaba hari imyanda myinshi bigaragara ko ari ahantu hamenwa imyanda.

Ikirango cy'ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe ubuzima RBC, kikaba ari ikirango cyamamaza kigaragaza serivisi batanga, icyo kirango hariho ikirango cy'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu bicaye mu nyubako bigaragara ko hari ikiganiro runaka bitabiriye, bikaba bisa naho abenshi ari urubyiruko, bamwe muri bo bambaye impuzankano bisa naho hari ikigo runaka bakorera bityo akaba ari cyo kibambika.

Abantu bari mu nyubako, bamwe muri bo bakaba bambaye imyenda isa, hari abambaye imipira y'icyatsi isa yanditseho n'amagambo amwe, hakaba hari n'abandi bambaye imipira y'umweru isa, ku meza imbere yabo hagiye hari uburoso bw'amenyo, bisa naho bamaze kwigishwa uburyo bwo koza amenyo.

Umuganga uri mu cyumba gitangirwamo serivise zijyanye no gukora ubushakashatsi nyuma yo gusuzuma umurwayi, akaba arimo kwandika ibisubizo by'ibipimo yafashe umurwayi, hanyuma akaza kumubwira uko yasanze bimeze.

Umukobwa ushinyitse amenyo, akaba afite akadodo arimo gukoza mu menyo, bisa naho amaze koza amenyo, hanyuma agafata akadodo akagakoza mu menyo, mu rwego rwo kugira ngo agende akuramo imyanda cyangwa se ibiryo byagiye bisigaramo.

Umukobwa urimo kwireba mu ndorerwamo, akaba yambaye akantu kameze nk'isashi mu ijosi, yambaye agapira karimo amabara y'umuhondo ndetse n'umweru, yicaye ku ntebe yegamirwa, hirya hari urukarabiro bita ravabo.

Umugabo urimo guseka bigaragara ko yishimye, iruhande rwe hari umuganga ufite akuma mu ntoki kariho akatu k'umweru bigaragara ko arimo kumufasha koza amenyo ye mu rwego rwo kugira ngo agirirwe isuku.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishuri, bari mu ishuri, hagati muri bo harimo umukobwa mukuru bisa naho ari umwarimu wabo, bose hamwe bafite uburoso bw'amenyo mu ntoki bisa naho bamaze kwigishwa isomo rijyanye n'ukuntu boza amenyo.

Igishushanyo cy'amenyo, akaba ari igishushanyo cyifashishwa mu gihe bari kwigisha abanyeshuri cyane cyane biga ibintu bijyanye n'ubuganga bwo gukura amenyo, ukuntu amenyo ushobora kuyakura hanyuma andi asigayemo agasigara ntakibazo afite.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri, bakaba bazamuye amaboko, buri wese afite uburoso bw'amenyo mu ntoki, bigaragara ko bamaze kwigishwa uburyo bwo koza amenyo. Koza amenyo ni ingenzi cyane kubera y'uko bituma umuntu ayongerera ubudahangarwa.

Umuganga wambaye amarinete ndetse n'impuzankano y'abaganga afite utwuma mu ntoki ze, hari umwana yasamuye umunwa ari kudukoza mu kanwa ke bisa n'aho arimo kumukura iryinyo. Abaganga ni ingenzi cyane kuko bafasha abantu batandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Umuganga urimo kwita ku mwana, akaba arimo kumuha serivise zijyanye n'ubuvuzi, yamwasamuye umunwa, ari kumukora mu kanwa bisa n'aho arimo kumukura iryinyo, imbere y'umuganga hateretse icyuma yifashisha, kugira ngo atange serivise.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byifashishwa mu gihe barimo gusuzuma umurwayi, harimo intebe umuganga yicararaho mu gihe ari gusuzuma umurwayi, hakaba harimo n'igikoresho kimeze nk'intebe umurwayi yicaraho mu gihe barimo kumusuzuma.

Umusore urimo guseka, akaba ari umusore w'imibiri yombi, yambaye agapira k'amaboko maremare, afite ubwanwa, yambaye mu ijosi akantu kameze nk'igipapuro. Bisa n'aho ari ubwirinzi.

Umugabo urimo guseka, ufite amenyo meza cyane y'umweru, bigaragara ko anezerewe, yambaye agapira k'umweru, afite ijosi ubona ko riteranye, akaba ari umugabo w'imibiri yombi.

Icyumba cyo kwa muganga hakaba harimo ibikoresho byifashishwa mu gihe barimo gutanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi, cyane cyane igihe hari abantu baje kwicisha mu cyuma. Akaba ari icyumba gifite isuku gisize amarangi meza y'umweru, ubona ko ari ahantu heza hakwiye gutangirwa serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Umukobwa urimo guseka wafashe intoki ze akazihina ubundi akazihuza z'ibiganza byombi, akaba ari umukobwa w'imibiri yombi ufite amaso meza y'umweru imboni z'umukara, afite inzara nziza ntabwo yigeze azisiga, afite n'umusatsi wa natireri.

Abantu babiri barimo gukora siporo, umwe akaba ari umugabo, undi ari umugore, bose bigaragara ko bakuze, barimo guseka bisa naho banezerewe bitewe n'igikorwa barimo gukora. Siporo ni ingenzi cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi kubera yuko ituma umuntu atarwara indwara urugero nk'umuvuduko w'amaraso, diyabete ndetse n'ibindi.

Abantu babiri, umwe ni umusaza undi ni umukobwa bigaragara ko akiri muto, umukobwa ni umuganga kuko yambaye impuzankano y'abaganga naho umusaza bikaba bigaragara ko ari umurwayi, umuganga afite agacupa mu ntoki, ari gusukira umusaza mu ntoki ibinini, umusaza afite ikirahure cy'amazi mu ntoki, agiye kubinywa kugira ngo akire indwara.

Abantu bicaye akaba ari abasaza ndetse n'abakecuru, bamwe muri bo bafite inkoni, hakaba harimo n'abasaza bambaye ingofero bisa n'aho hari abasilamu, bicaye mu ntebe zegamirwa z'imifariso, bicaye kandi ku rubaraza rw'inzu.

Abantu bari mu cyumba barimo kurya, bakaba bishimye cyane. Hari undi uhagaze bisa naho ari we uri kubafasha mu kubona serivisi zijyanye no kubona ibyo kurya, abicaye ku meza buri wese imbere ye agiye afite agasorori karimo ibyo barimo kurya.

Abantu bari mu cyumba cyo kwa muganga hakaba hari umusaza bigaragara ko ashobora kuba yavunitse, hirya imbere ye hakaba hari umudamu w'umuganga urimo kumufasha kugorora amaboko ye mu rwego rwo kugira ngo yongere akire abe muzima.

Abantu bicaye bisa n'aho barimo kuganira, umwe akaba ari umusaza undi ari umukobwa bigaragara ko akiri muto. Kuganira ni ingenzi mu buzima kubera yuko bifasha abantu gusabana, bityo bikongera umubano wa bo kandi iyo abantu baganiriye barishima cyane.

Abantu batandukanye bicaye mu murima bigaragara ko hari ikintu runaka barimo kuganiraho kuko barimo guseka, hirya ku ruhande hari ifarashi ihagaze bisa naho umwe muri bo ariyo agendaho, hirya hari ibihuru byinshi cyane.

Abantu babiri umwe ni umuganga, undi akaba ari umurwayi, umuganga yambaye impuzankano bambara barimo kuvura, naho umurwayi yambaye imyenda isanzwe akaba arimo kurambura amaboko bisa naho yari yavunitse amaboko, abaganga ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi kubera yuko badufasha kongera kugira ubuzima buzima.

Abantu babiri bari mu cyumba umwe ni umusaza undi ni umukecuru, umusaza akaba yicaye ku gitanda bigaragara ko ashobora kuba arwaye arembye, umukecuru akaba yari amuzaniye ikirahuri cy'amazi, hanyuma umusaza akaba arimo kuyanywa kugira ngo yice inyota.

Ababyeyi b'abamama bari ku murongo bigaragara ko bafite igikorwa runaka barimo kwitabira, abenshi muri bo bambaye impuzankano, hejuru bambaye imipira y'umweru, hasi amajipo y'umukara, bisa naho aribwo barimo kugera aho igikorwa nyamukuru giteganyirijwe.

Abantu babiri, umwe ni umusaza, undi ni umugore bigaragara ko akiri muto, yambaye imyenda y'umukara ahantu hose bisa naho ari umuganga. Akaba arimo gufasha umusaza kwiga gutambuka inyuma yo kuba yari yarakoze impanuka akavunika.

Abantu babiri bigaragara ko umwe ari umurwayi undi akaba ari umuganga, umurwayi biragaragara ko akuze kuko afite umusatsi urimo imvi, naho umuganga biragaragara ko akiri umukobwa mutoya, afite imisatsi miremire igeze mu mugongo, akaba arimo kumufata amaboko ye akayarambura mu rwego rwo kuyagorora.

Umugabo bigaragara ko akuze yambaye agapira k'amaboko magufi k'umweru n'ipantaro y'umukara, yarambuye amaboko afite utuntu mu ntoki arimo guterura bigaragara ko arimo gukora siporo, afite umusatsi urimo imvi, yambaye ekuteri ndetse n'amarinete.

Abantu batatu, babiri muri bo akaba ari abagore barimo gukina amakarita, bakaba barimo guseka cyane bigaragara ko bishimye cyane, ameza bari gukiniraho, hagiye hariho andi makarita agiye atandukanye.

Umumama ugaragara nk'ukuze, akaba afite ikirahure cy'amazi mu ntoki ndetse mu kindi kiganza afitemo ibinini bigaragara ko agiye kubinywa mu rwego kugira ngo yikingire indwara arwaye, inyuma ye hari udukoresho dutandukanye.

Abantu barimo gutambuka mu muhanda wa kaburimbo, bigaragara ko barimo gukora siporo, iruhande rwabo hakaba hari ubusitani buhinzemo indabo ndetse n'imikindo.

Abantu babiri bicaye ku meza barimo kuganira, umwe ni umusaza, undi ni umukecuru, umukecuru afite urupapuro mu ntoki akaba arimo kwereka umusaza ibintu barimo gusoma, umusaza afite agacupa mu ntoki na we ukaba ubona ko yitaye kubyo umukecuru arimo kumwereka.

Abantu babiri bahagaze ubona ko banezerewe umwe n'umukobwa undi akaba ari umugabo, umugabo yambaye agapira ka gisirikare ndetse n'ikote rijya gusa na oranje, naho umukobwa yambaye amataratara arimo guseka yambaye amayerina ku matwi ndetse n'ikoti ry'ikoboyi.

Umugabo wicaye wambaye ishati y'ikigina, akaba yambaye igikoresho cyo kwa muganga ku kuboko bambara mugihe barimo bipima umuvuduko w'amaraso, murwego rwo kugirango umenye uko umuvuduko wawe w'amararaso uhagaze.

Abagabo babiri barimo gutambuka, bigaragara ko barimo gukora siporo, bose bambaye amashati y'umweru hejuru, bakaba bafite n'uducupa tw'amazi mu ntoki, barimo guseka bigaragara ko bishimye.

Inyubako irimo abantu benshi batandukanye bisa naho baje gufata impamyabumenyi, imbere yabo hakaba bateretse ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru, inyuma yabo kandi hari icyapa kigaragaza ibyo bakora mu rwego rwo kugira ngo biyamamaze.

Abantu bambaye imyenda y'umweru, udupfukamunwa ndetse n'ingofero z'umweru, bigaragara ko ari abaganga bakora muri serivise ijyanye n'ubwirinzi, inyuma yabo hari umugabo wambaye imyenda isa na move bisa naho ari umuganga mukuru.

Abantu bateraniye hamwe bakaba bambaye imipira y'umweru isa, bigaragara ko bari mu gikorwa rusange, bari mu muhanda wa kaburimbo, inyuma yabo hari ibiti biteye bifasha abantu bahegereye kubona umuyaga n'amahumbezi.

Abantu baje gusaba serivisi zijyanye n'ubuvuzi hakaba hari abaganga barimo kubafasha kubona serivisi baje basaba, ni byiza ko igihe ari gahunda y'urwego rw'igihugu rw'ubuzima yo kuza kwipimisha abantu babyitabira.

Umuganga wambaye impuzankano y'abaganga, akaba afite agakoresho mu ijosi, kifashishwa kwa muganga mu gihe barimo gupima umurwayi umutima, kugira ngo bamenye uko umutima utera, yambaye akantu mu mutwe kamurinda ko umusatsi we wakagirika.

Abantu benshi bicaye mu nyubako mberabyombi, bakaba bari mu kiganiro, imbere hicaye abantu batandukanye bigaragara ko ari abayobozi bakuru barimo kubagezaho ibiganiro, inyuma hari ikirango kigaragaza inama bitabiriye iyo ari yo.

Abantu benshi bicaye mu nyubako bigaragara ko ari icyumba cy'inama, abenshi muri bo bakaba bambaye imyenda y'amakositimu y'umukara. Ku ruhande rw'iburyo n'uruhande rw'ibumoso hari ibirango bya serivise bitabiriye.

Umukobwa mwiza cyane wambaye ipantaro y'umukara, agapira k'umukara ndetse n'ikote iri mu mabara ajya gusa na kaki, yicaye mu ntebe y'umufariso yegamirwa. Akaba afite indangururamajwi mu ntoki arimo gutanga ikiganiro yishimye kandi yambaye amarinete.

Abantu bateraniye ahantu hamwe abenshi muri bo bakaba bambaye imipira isa bigaragara ko hari ikigo runaka bakorera. Bakaba bambaye imipira ijya gusa n'umutuku. Imbere yaho bari hakaba hari ameza ateretseho udukombe tw'ubururu. Hirya hari ikirango kigaragaza igikorwa nyamukuru cyabateranirije hamwe.

Umugabo uhagaze, urimo gutanga ikiganiro, inyuma ye hari icyapa kigaragaza ikigo ahagarariye, hirya hari televiziyo ya rutura irimo kujya imugaragaza kugira ngo abantu bicaye kure na bo babashe kumubona mu buryo bworoshye.

Abantu babiri bahagaze, umwe ni umukobwa undi ni umugabo, buri wese afite akantu mu ntoki kagaragaza ko hari ibihembo yahembwe, inyuma yabo hari ikirango kigaragaza igikorwa nyamukuru cyari cyabateranyirije, hanyuma bakaba banahembwe.

Abantu bahagaze hakaba harimo abagabo babiri ndetse n'abakobwa babiri, bose bafite udukingirizo mu ntoki bigaragara ko barimo gushishikariza abantu kumenya imikoreshereze y'udukingirizo mu rwego kugira ngo birinde kwandura Sida cyangwa se guterana inda bitateganyijwe.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama, bigaragara ko hari igikorwa nyamukuru cyabateranyije bityo bakaba barimo kuganira, imbere hari abagabo babiri bicaye bisa naho ari abayobozi bakuru, barimo kubagezaho ikiganiro ku nsanganyamatsiko yateganyijwe.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, bakaba bicaye mu ntebe z'umutuku, imbere hari abantu bicaye bigaragara ko ari bo bayobozi bakuru baje gutanga ibiganiro, inyuma hari icyapa gishushanyijeho ikirangantego cy'u Rwanda, hakaba handitseho n'amagambo agaragaza igikorwa nyamukuru cyabateranyirije aha ngaha.

Abantu babiri bambaye amakositimu, bose ni abagabo. Bafite ibitabo mu ntoki bisa n'aho hari ibitabo barimo kumurika. Inyuma yabo hari ikirango gishushanyijeho ikirangantego cy'u Rwanda.

Abantu bicaye ubona ko barimo gukora inama, akaba ari abakobwa bigaragara ko bakiri urubyiruko, bambaye imyenda myiza ubona ko banezerewe, akaba ari abantu b'imibiri yombi, aho bicaye imbere ku meza hashasheho ibitambaro hakaba hari n'umuntu ufite imbere ye mudasobwa.

Ikinyamakuru kiri mu mabara atandukanye ubururu ndetse n'icyatsi, akaba ari ikinkinyamakuru gikorera muri afurika y'iburasirazuba. Akaba barimo kwamamaza ikigo gishinzwe ubushakashatsi ku bijyanye n'ubuzima.

Abantu benshi bahagaze barimo kwifotoza bigaragara ko hari igikorwa nyamukuru bamaze kwitabira hanyuma bakaba barimo gufata ifoto y'urwibutso, harimo abambaye imipirisa y'umweru hakaba hari n'abandi bambaye iy'ubururu ndetse n'abandi bambaye imyenda isanzwe, kuru ruhande hahagaze umugabo wambaye imyenda y'icyatsi bigaragara ko ari umudaso.

Inyubako yubatse mu buryo bugezweho, akaba ari igorofa, imbere yayo ku gice cyo hasi hari abantu bahagaze, bisa naho baje kuhasaba serivisi, akaba ari inyubako iteye amarangi ari mu bwoko butandukanye, hakaba hari irangi ry'umweru ndetse n'iryumukara wererutse.

Abarwayi bari mu cyumba cy'abarwayi kwa muganga, baryamye ku bitanda byagenewe abarwayi, buri ruhande rw'igitanda hakaba hari utubati umurwayi abikamo ibikoresho bye urugero nk'imiti, ibyo bamugemuriye ibyo kurya ndetse n'ibindi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga, hakaba harimo abaganga benshi cyane bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'amapantaro y'umukara, bigaragara ko ari icyumba gikorerwamo ubushakashatsi.

Icyumba cyubatse neza ubona ko ari icyumba cyitaweho cyane, gishashemo itapi nziza ijya gusa n'ikigina, hejuru harimo idara ryiza cyane ry'umweru ririho n'amatara menshi cyane amurika mu cyumba kugira ngo haboneke umucyo.

Icyumba cyo kwa muganga gitangirwamo serivisi, akaba ari icyumba gisize amarangi y'umweru, hasi hashashemo amakaro y'umweru, akaba ari icyumba cyitabwaho cyane kuko harimo isuku. Hejuru hariho parafo y'umweru ndetse n'amatara y'umweru.

Utubati turimo ibicuruzwa bitandukanye bigaragara ko ari mu iguriro rigezweho. Mu maguriro agezweho uba usanga ibintu byose biri ku murongo ku buryo biba byoroshye kumenya aho ikintu ushaka giherereye, kubera yuko bagenda bandikaho ahantu ushobora gusanga ikintu wifuza.

Umuganga urimo gutambuka mu cyumba cyo kwa muganga gitangirwamo serivise zijyanye n'ubuvuzi, akaba yambaye imyenda isa hasi no hejuru. Muri icyo cyumba harimo ibitanda abarwayi baryamaho, hakaba hari amarido y'ubururu agenda akingiza buri gitanda kugira ngo mu gihe barimo batanga serivise ntihagire abandi bantu babibona.

Icyumba cyo kwa muganga gitangirwamo service zijyanye n'ubuvuzi harimo ibikoresho bitandukanye, hakaba harimo ahantu henshi bakarabira mu gihe bamaze gukora ku miti mu rwego rwo kugira ngo na bo imiti itabagiraho ingaruka.

Irembo ry'ibitaro by'akarere ka Nyarugenge, akaba ari irembo ryubatse mu buryo bugezweho, imbere yaryo hari uturango tugaragaza ubwinjiriro, aho umuntu wese uje gusaba serivisi zijyanye n'ubuvuzi yinjirira, yaba afite imodoka cyangwa se ari n'amaguru.

Inyubako y'igorofa ikaba yubakishije ibirahure imbere yayo hari ibiti by'imikindo bisa icyatsi akaba ari ibiti bituma ubusitani bwawe bugaragara neza.

Inyubako ikorerwamo siporo, ikaba ishashemo hasi itapi y'icyatsi irimo uturongo tw'umweru bifashisha mu gihe barimo gukora siporo, hakaba hari ibirahure byubatse hejuru bihasakaye, mu rwego rwo kugira ngo mu gihe ari ku manywa haboneke umucyo bidasabye kumurika amatara.

Abantu batatu umuntu, umwe yicayeye mu kagare kagendwamo n'abantu bafite ubumuga bw'ingingo cyane cyane amaguru, hakaba hari umwana urimo kumusunika kugira ngo amufashe kugera aho agiye, imbere hari umukobwa uhagaze wambaye agapira k'umweru bisa n'aho aje kubakira.

Inyubako nini cyane yubatse mu buryo buhurutuye, ikaba isakaje amabati ameze nk'amategura, imbere yayo hari icyapa kiranga serivisi batanga, imbere y'icyo cyapa hateye ibyuma bibiri biriho amadarapo, hamwe hariho idarapo y'u Rwanda, ahandi hariho idarapo ry'iki kigo.

Icyumba cyo kwa muganga gitangirwamo serivise zijyanye n'ubuvuzi, hakaba arimo ibikoresho byifashishwa mu gihe bari gutanga izo serivise, hirya muguni hari igitanda umurwayi aryamaho bityo muganga akabasha kumwitaho mu buryo bumworoheye.

Inyubako yubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho, hakaba hari abantu baje bahagana baje gusaba serivisi zijyanye n'ubuvuzi, iki akaba ari ikigo nderabuzima cya Tabagwe, imbere hari yasekariye abantu baje bahagana bazamukaho mu rwego rwo kugira ngo bahagere mu buryo bworoshye.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama abenshi muri bo bakaba bambaye impuzankano zigiye zisa, hari abambaye imipira y'umuhondo, hakaba hari n'abandi bambaye imipira ijya gusa n'ubururu ariko atari ubururu, bose baricaye baguwe neza, biragaragara ko hari igikorwa nyamukuru cyabahurije aha ngaha.

Icyumba gikorerwamo serivise zijyanye no kubika amaraso, hakaba habikwamo amaraso yagiye avomwa ku bantu batandukanye mu rwego rwo kugira ngo igihe hari umurwayi ukeneye amaraso, bazajye bahita bamubonera amaraso kugira ngo adapfa.

Inyubako yubatse mu buryo bwa gihanga ikaba isize amarange meza y'umweruru w'amata, hakaba harimo amakaro meza y'umweru, isize amarange agiye atandukanye meza cyane atuma igaragara neza, hejuru hari idara ndetse n'amatara.

Inyubako isa neza cyane, bigaragara ko yubatswe n'abahanga. Harimo inzugi zisize amabara y'umutuku bisa naho ari inyubako itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi. Hasi hashashe amatapi y'amabara agiye atandukanye.

Inyubako yubatse ku muhanda, akaba ari inyubako y'igorofa, imbere yayo haparitse imodoka, hakaba hari abantu bahagaze bisa n'aho baje gusaba serivise kuri iyi nyubako, hakaba hari n'umuhanda wa kaburimbo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gihe barimo batanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi, hari igitanda cy'umukara umurwayi aryamaho, hirya hari ameza ndetse n'utuntu tw'utubati tubiri turi mu mabara y'umuhondo babikamo ibikoresho.

Icyapa kiranga serivisi itangirwa kuri iyi nyubako, akaba ari inyubako yubatse mu buryo bw'igorofa, imbere yayo hari idarapo rigaragaza igihugu iyi inyubako yubatsemo, hakaba hari akazu ka MTN kari imbere gatangirwamo serivisi zitangwa na MTN.

Abantu bari mu cyumba cyo kwa muganga gitangirwamo serivise zijyanye n'ubuvuzi, ni abantu babiri ndetse n'umuganga, umwe bigaragara ko ari umurwaza yicaye ku ruhande rw'igitanda, uwicaye ku gitanda ni umwana mutoya bigaragara ko afite nk'imyaka itanu, hakaba hari umuganga umufashe bisa n'aho arimo kumubaza uko yiyumva.

Ababyeyi batatu bambaye imyenda y'ubururu bigaragara ko ari abaganga, bakaba bahagaze ubona ko banezerewe, bose ni abirabura, bakaba bahagaze iruhande rw'ahantu hari ubusitani, hirya hakaba hateye ibiti bituma haboneka umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Inyubako yubatse mu buryo budasanzwe, akaba ari ahantu hatangirwa serivise zijyanye n'ubuvuzi, hakaba hari icyapa cyanditseho serivisi zihatangirwa giteye mu busitani, iruhande rwacyo hakaba hateye indabo.

Icyumba cyo kwa muganga gitangirwamo serivise zijyanye no gusuzuma abarwayi kugira ngo bamenye uko imibiri yabo ihagaze, hakaba hari ahantu hameze nk'intebe umurwayi yicara ubundi umuganga akamusuzuma, iruhande rwaho haba hari igikoresho kimeze nka televiziyo umuganga agenda aboneramo uko umubiri w'umurwayi uhagaze.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byifashishwa mu gihe barimo gupima abarwayi, cyane cyane barwaye inyama zo mu nda. Buri cyuma iruhande rwacyo hakaba hari intebe y'umuhondo yicarwaho n'umurwayi mu rwego rwo kugira ngo umuganga amuhe serivisi neza.

Umuganga wishimye urimo guseka bigaragara ko ashobora kuba atanga serivisi nziza cyane inoze, yambaye itaburiya y'umweru, mu ijosi afite akuma ko kwa muganga kifashishwa mu gihe barimo gupima umutima, kugira ngo bamenye uko umutima w'umuntu runaka utera, yambaye kandi amarinete.

inyubako iteretsemo ibikoresho byinshi cyane, byifashishwa kwa muganga mu gihe barimo gutanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi, ni ngombwa ko kwa muganga habayo icyumba kibikwamo ibikoresho, kuko iyo hagize umurwayi uremba baraza bakifashisha bya bikoresho.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho byinshi byifashishwa mu gihe barimo gutanga serivisi zijyanye n'ubuvuzikaba, akaba ari ibikoresho bikozwe mu buryo bwa gihanga, inyuma kugikuta hariho ishusho, ahandi ku kindi gice hakaba hariho isaha, ndetse n'utundi dutako ku zindi mpande.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mutanga serivise zitandukanye zijyanye n'ubuvuzi, buri gikoresho aho giteretse hasi hagiye hari igitanda umurwayi aryamaho mu gihe barimo kumusuzuma, hirya hagiye hari na za televiziyo zifashishwa mu kugira ngo babone uko mu mubiri biri w'umurwayi hameze.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, byifashishwa mu gihe barimo gutanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi. Imbere hari mudasobwa iteretse ku meza muganga yifashisha mu gihe arimo kwandika ibipimo yafasha abarwayi, hakurya kandi ku gikuta hari televiziyo umuganga areba mu gihe yicaye mu cyumba.

Ubusitani bumeze neza cyane bukaba buteyemo indabo z'imikindo, iruhande rwaho hakaba hari umucaca ndetse n'ubundi bwoko bw'indabo ujya gusa umuhondo, hepfo y'aho hari inyubako nyinshi zitandukanye, hakaba hari n'imodoka eshatu ziparitse.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi mu gihe barimo gutanga serivisi zitandukanye zijyanye n'ubuvuzi hari igitanda umurwayi aryamaho mu gihe muganga arimo kumusuzuma iruhande rw'igitanda hari igikoresho kimeze nka televiziyo iyo umuganga arimo gupima umurwayi agenda aboneramo uko umubiri w'umurwayi uhagaze.

Abantu bari mu cyumba cyo kwa muganga gitangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi, bose bakaba bambaye amajiri y'umweru bigaragara ko ari abaganga, ku meza imbere yabo hateretse agacupa kaba karimo amavuta y'ubuto, hirya kandi hateretse utundi dukoresho twinshi dutandukanye, imbere hakaba hari n'akabati.

Inyubako irimo ibikoresho byinshi, byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, akaba ari inyubako yubatse mu buryo bugezweho, hejuru ifite amatara ku idara, imbere hari televiziyo zizwi nka furati, zibafasha kumva imiziki n'indirimbo.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bugezweho, akaba ari inyubako y'igorofa, iteye amarangi meza cyane y'umweru ndetse n'umukara, imbere yayo hari icyapa kigaragaza serivisi zihatangirwa, kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru.

Umuganga wicaye kuri mudasobwa, imbere ye hakaba hari indi mudasobwa yo mu biro itagendanwa, arimo kurebamo uko umurwayi yasuzumye ingingo ze zimeze. Mudasobwa afite mu ntoki ye igendanwa niyo ari kujya yandikamo ibyo arimo kubona.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, imbere yayo hakaba hari abantu bicaye bisa naho baje kuhasaba serivise, ni inyubako ikorerwamo ubushakashatsi, cyane cyane mu gihe abaganga hari umurwayi basuzumye bityo bakajya muri iyo nyubako kuko ariho haba hari ibyuma byifashishwa mu gusuzuma neza kugira ngo bamenye indwara umurwayi arwaye.

Abantu benshi batandukanye bicaye mu cyumba kiberamo inama, hakaba hari abicaye imbere bisa naho ari bo bayobozi bakuru barimo kubagezaho ibiganiro, buri muntu wicaye imbere hagiye hateretse agacupa k'amazi arimo kujya aranywa mu gihe agize inyota.

Inyubako irimo akabati karimo imiti y'amoko agiye atandukanye, akaba ari inyubako icururizwamo imiti, ni byiza ko habaho inyubako zicururizwamo imiti kubera y'uko byorohereza abantu kubona imiti bitabagoye.

Abaganga bari mu cyumba cyo kwa muganga gitangirwagwamo serivisi, zijyanye no gupima abarwayi, bakaba barimo kwita ku murwayi mu rwego kugira ngo bamuhe serivisi nziza kandi inoze, iruhande rwaho umurwayi aryamye hari icyuma cyifashishwa mu gihe barimo guha serivisi umurwayi.

Abantu bari kwa muganga bigaragara ko baje gusaba serivisi zijyanye n'ubuvuzi, hakaba hari umwana barimo gupima ku munzani mu rwego kugira ngo bamenye ibiro afite, hanyuma bemeze niba afite imikurire myiza cyangwa se adafite imikurire myiza. Iruhande rw'uwo mwana hari umubyeyi wambaye ishati y'umweru, bisa naho ari mama we.

Ahantu hameze neza cyane hari ubusitani bwitabwaho cyane, hakaba hari akayira gashashemo amapave, harimo abantu barimo gutambuka baturuka ku nyubako ziri hakurya, bisa naho bavuye kuhasaba serivisi zitandukanye.

Inyubako yubatse mu buryo bwiza cyane kandi bugezweho, akaba ari inyubako isize amarange y'umweru, hejuru ifite idara risize amabara ari mu moko agiye atandukanye, hasi harimo n'ubusitani, hateretse intebe abantu bahanganye bicaraho.

Icyumba cyo kwa muganga akaba ari icyumba kirimo ibitanda byinshi bitandukanye abarwayi baryamaho igihe baje guhabwa serivise zijyanye n'ubuvuzi, harimo amarido akingiriza buri gitanda kugira ngo abari ku gitanda kimwe batamenya ibiri gukorerwa ku kindi gitanda.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi, hirya muri icyo cyumba hakaba harimo umuganga urimo gutanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi, hino hari ahantu batangira serivisi.

Abantu babiri bose bigaragara ko ari abaganga, uw'imbere wambaye imyenda y'umweru akaba akikiye umwana mu ntoki, bisa naho hari umubyeyi bamaze kubyaza uyu mwana. Inyuma y'uyu wambaye imyenda y'umweru hari undi muganga wambaye imyenda ijya gusa na move, ufite n'agakoresho mu ijosi kifashishwa mu gihe bari gupima umutima.

Umugabo wambaye imyenda y'umweru ndetse na bote bigaragara ko ari umuganga, akaba ahagaze imbere y'inyubako afite ikintu ahetse mu mugongo kimeze nk'ipombo, bisa naho ari gutera imiti irinda udukoko runaka.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igikoresho cyifashishwa mu gihe barimo gutanga serivise zijyanye n'ubuvuzi, akaba ari igikoresho gikoze mu buryo bwa gihanga kuko umurwayi akiryamaho bityo umuganga agahita amenya ikibazo umurwayi afite mu mubiri we.

Abantu batandukanye bateraniye mu kibuga hakaba higanjemo urubyiruko, bikaba bisa n'aho barimo gukora siporo rusange mu rwego rwo kugira ngo birinde indwara zimwe na zimwe ziterwa no kuba umuntu adakora imyitozo ngororamubiri, imbere hari umugabo urimo kubafasha gukora imyitozo.

Agakoresho ko kwa muganga kameze nk'ameza kakaba kariho igitambaro cy'ubururu gikingiriza igihe barimo gutanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi, mu rwego rwo kugira ngo abantu bari inyuma yako batamenya ibiri gukorerwamo imbere.

Umusore urimo kunywa amazi, akaba yambaye agashanete mu ijosi, n'umupira w'amaboko magufi, w'ubururu. Arimo kunywa amazi, ari mu icupa ry'umweru. Amazi ni ingenzi cyane mubuzima bwacu bwa buri munsi.

Ikirango kigaragaza gahunda ya leta y'u Rwanda yo gushishikariza abantu gutanga amaraso, mu rwego rwo kugira ngo batabare imbabare, hari igihe usanga hari umuntu ukeneye amaraso, bityo aba ari ngombwa ko abantu bafite umutima mwiza batange amaraso kugira ngo wa muntu abone amaraso.

Ibikapu bitatu, hakaba hari igikapu gifunze kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umukara, kikaba gifite udufuka twinshi impande n'impande, imbere yacyo hari ibikapu bibiri bifunguye, igikapu kimwe kirimo uducupa tumeze nka serumo, bande ndetse n'indi miti, hirya hakaba hari ikindi gikapu nanone gifunguye kirimo imikasi.

Umusore wambaye isengeri ijya gusa n'ivu, yazamuye amaboko arayafatanya inyuma y'umutwe, bigaragara ko arimo gukora siporo, hanyuma akaba arimo kugorora amaboko, yambaye isaha ku kuboko, akaba arimo kureba ahantu mu kibaya.

Abantu babiri bambaye amajire y'umutuku bigaragara ko bakora muri croix rouge, bateruye umusore bisa n'aho yavunitse, uwo musore yambaye umupira wa jezi w'umuhondo wanditseho nimero gatatu, akaba yambaye n'ipantaro y'ikoboyi. Hirya kandi hari abandi bantu batandukanye bambaye imipira y'umweru.

Inkoni ebyiri, akaba ari inkoni zikunze kwitwazwa n'abakambwe. Inkoni aba ari ingenzi cyane ku bantu bakuze kubera y'uko zibafasha gucuma urugendo, hanyuma bakagera iyo bagiye bitabagoye.

Ibintu bitandukanye biteretse ahantu hamwe, hakaba hari imetero yifashishwa mu gupima abantu, hari utundi dukoresho twifashishwa mu gihe umuntu arimo gukora siporo aduterura, inyuma hari imbuto zitandukanye, umuntu ashobora kurya. Iruhande hateretse ikirahure kirimo ji.

Umuntu ufashe ku kuboko bikaba bigaragara ko yavunitse, afite barafu mu ntoki ari gukoza aho hantu havunitse, iyo umuntu yavunitse aba ari ngombwa ko akozaho ikintu gikonje kugira ngo imitsi yikanze yongere irambuke.

Umudamu ufite akantu mu ntoki kameze nk'itoroshi, akaba arimo kugacana mu maso y'umwana, bisa n'aho ari umuganga, akaba arimo kumusuzuma kugira ngo amenye niba nta ndwara afite.

Umuntu wambaye umupira w'icyatsi, akaba afite umupira mu ntoki ukinwa mu gihe barimo gukina volley ball, yambaye ipantaro y'umukara, bigaragara ko ari umusore ukunda gukina volley ball.

Abantu babiri umwe akaba ari umurwayi undi akaba ari umuganga, umurwayi yarambuye amaboko afite akantu k'umuhondo mu ntoki bisa n'aho arimo kugorora amaboko. Umuganga amufashe ukuboko kwe kw'iburyo akaba arimo kumufasha kugorora amaboko ye.

Umuntu urimo kunywa amazi akaba ari umusore ufite ubwanwa, yambaye isaha ku kuboko y'umukara, akaba yambaye n'agapira k'ubururu bwijimye. Amazi ni meza cyane ku buzima bwa muntu kubera yuko iyo umuntu akunda kunywa amazi ahora afite ubuzima bwiza.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga, mu gihe barimo gutanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi, hakaba harimo umukasi, agapfukamunwa, ibinini, agakarito kabikwamo amaraso, urushinge, itoroshi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Igikoresho cyo kwa muganga cyifashishwa mu gihe barimo gutanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi cyane cyane igihe hari umubyeyi utwite. Iyo umubyeyi atwite araza akaryama kuri iki gitanda cy'icyuma ubundi bakamucanaho maze bakabona uko umwana arimo gukina mu nda.

Igikoresho cyo kwa muganga kifashishwa mu gihe barimo kuvura indwara zitandukanye, akaba ari igikoresho, basuzumisha umuntu urwaye indwara, cyane cyane zo mu nda.

Umuganga uhagaze mu cyumba cyo kwa muganga gitangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi, akaba yambaye itaburiya y'umweru, afite mu ntoki kasike cyangwa se ingofero y'ubwirinzi yambara mu gihe arimo gutanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi kugira ngo ataba yakandura. Hirya ku gikuta hariho igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Umuntu wicaye bakaba barimo kumupfuka ibiganza bigaragara ko yakoze impanuka bityo akavunika ibiganza. Hirya hari umuntu urimo kumupfuka, bigaragara ko ari umuganga.

Umukobwa urimo gukora siporo akaba aryamye kuri tapi ijya gusa umutuku, yahese umugongo mu rwego rwo kugira ngo awugorore, yambaye ipantaro y'umukara imufashe cyane n'agasengeri gafite ibara rijya gusa n'ivu n'utundi tubara tujya gusa n'umutuku, umutwe ari kuwumanura mu mugongo.

Igikapu kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa kwa muganga mu gihe barimo gutanga serivise ziinjyanye n'ubuvuzi, hakaba hagiye harimo amoko menshi cyane ku buryo mu gihe waba ukeneye igikapu kiza nawe ushobora gutwaramo ibikoresho, nawe ushobora kukifashisha.

Umukobwa urimo kunywa amazi mu icupa ry'umweru rifite umupfundikizo w'ubururu, akaba araramye bisa naho afite inyota nyinshi. Ku rutugu rwe afite igitambaro yihanaguza icyunzwe, akaba yambaye agasengeri karimo amabara agiye atandukanye.

Agakoresho kifashishwa kwa muganga mu gihe barimo gutanga serivise zijyanye n'ubuvuzi, aka gakoresho ni ingenzi cyane kuko gakata ibintu byinshi bitandukanye, rero ni byiza ko kwa muganga bagira agakoresho nk'aka kuko karakenerwa inshuro nyinshi.

Abantu bari mu cyumba cyo kwa muganga bisa n'aho ari abaganga, muri icyo cyumba hakaba harimo n'abarwayi baryamye ku bitanda, hagati muri abo bantu hari igikoresho cyifashishwa kwa muganga mu gutanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi, kimeze nka televiziyo barimo kureberaho uko umurwayi ameze.

Umukobwa urimo kunywa amazi mu icupa rya gurude, akaba yambaye ekuteri mu matwi, yambaye akantu k'umukara ku kuboko bisa naho arakabikamo telefone mu gihe ari gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa se siporo, imisatsi ye yayizirikiye inyuma ibyo bita shinyo.

Abantu babiri, umwe ni umuganga, undi ni umurwayi. Umurwayi yicaye ku gitanda, akaguru kamwe kari hasi, akandi kari hejuru bisa naho kavunitse, umuganga arimo kugapfuka mu rwego rwo kugira ngo amuhe serivisi nziza kandi inoze, hanyuma akaguru ke kongere gukira abe muzima.

Agakoresho kifashishwa kwa muganga mu gihe barimo gupima umurwayi, bakaba bakifashisha mu gihe barimo gupima umutima. Umuganga aragafata akagakoza mu matwi, ubundi akandi gace ko hasi akagakoza ku mutima w'umurwayi bityo bikamworohera kumenya uko umutima w'umurwayi urimo gutera.

Umuntu w'umusore ubona ko afite amatuza manini, ku rutugu hakaba hariho utuntu twometseho bisa naho yakoze imyitozo ngororamubiri hanyuma ukuboko kugacomoka. Iyo umuntu ari gukora imyitozo bisaba ko yitonda kubera yuko bitabaye ibyo ashobora guhura n'ibibazo bijyanye no kuba yavunika.

Abantu bari mu cyumba cyo kwa muganga gitangirwamo serivise zijyanye n'ubuvuzi, hakaba hari umuganga ufite akantu mu ntoki kameze nk'itoroshi, ari gukesha mu kanwa k'umwana bityo muri ka kantu akabonamo ukuntu mu kanwa k'umwana hameze, niba hari indwara irimo na byo akabibona.

Ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu gihe barimo gutanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi cyanecyane mu gihe barimo gufata ibipimo bafashe abarwayi ubundi bakabyandika mu rwego kugira ngo mu gihe umurwayi yagarutse kwa muganga bazajye bahita bamenya ikibazo yari afite bitabagoye.

Umusore wicaye, wambaye umupira w'imashini ufite n'ingofero, akaba araramye arimo kunywa amazi. Ni umusore ufite amaboko manini bigaragara ko yateruye ibyuma, akaba ari umusore mbese ufite imbaraga.

Uducupa dutandukanye tuvamo imiti y'amenyo, imiti y'amenyo yifashishwa mu gihe umuntu arimo koza amenyo kugirango bihe amenyo ubudahangarwa, nawe rero ushobora kugura umuti w'amenyo bityo bikagufasha kugira amenyo meza.

Abantu bari mu kibuga bisa n'aho barimo gukora imyitozo ngororamubiri, hari umusore usutamye wambaye inkweto za supuresi, ipantaro y'itiriningi ndetse n'agapira k'amaboko magufi byose by'umukara, iruhande rwe hari umugabo uhagaze w'umuzungu, bisa n'aho ariwe urimo kumwigisha uko bakora siporo.

Ibintu byinshi bitandukanye biri ahantu hamwe, hakaba hari n'umuntu uteruye ibyo kurya, muri ibyo byo kurya harimo imboga rwatsi, urugero shufureri akaba ari imboga zijya kumera nk'amashu, hakaba hariho pome, hakaba hariho pavuro, inyanya, ndetse n'urubuto rwa avoka ku ruhande hari inkweto za spuress n'ibindi.

Abantu bari mukibuga cy'umupira wa maguru, hari umusore uryamye hasi bisa naho yavunitse, hanyuma hakaba hari undi upfukamye bisa naho ari umuganga akaba arimo kumukanda ku ivi, arimo kumuvura kugira ngo yongere gusubira mu mukino.

Abantu babiri barimo kwirukanka bakora siporo, umwe akaba ari umukobwa undi ari umugabo, bose bafite amacupa mu ntoki y'amazi yo kunywa, ni byiza ko dukora siporo kubera yuko ituma tugira ubuzima bwiza.

Umuganga urimo kwita ku murwayi, umurwayi akaba aryamye hasi bigaragara ko yavunitse ukuguru. Umuganga yambaye imyenda y'ubururu, akaba yambaye mu ijosi agakoresho ko kwa muganga kifashishwa mu gihe barimo gupima umutima w'umuntu runaka, hanyuma bikaborohera kumenya uko umutima we utera.

Ibintu bitandukanye biteretse ku meza, hakaba harimo pome, hakaba hari agakoresha abantu baterura barimo gukora siporo, hari avoka, hakaba hari urubuto rwa orange, hakaba hari imboga za shufureri, hakaba hari urusenda rw'umuhondo n'urw'umutuku ku ruhande, hakaba hari n'ipera.

Icyumba gikorerwamo siporo mu ndimi z'amahanga bita Gym. Hari umuntu uryamye urimo gukora siporo, hirya hakaba hari undi bisa naho ariwe urimo kumufasha kumenya uburyo yagorora umubiri we.

Ibintu bitandukanye, byose akaba ari ibikoresho byifashishwa kwa muganga, mu gihe bari gutanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi, harimo imiti, ibinini bizwiriho nk'udupaki, hakaba hari n'amacupa arimo imiti isukika, umuntu anywa bitabaye ngombwa ko yifashisha amazi.

Igikoresho cyo kwa muganga cyifashishwa mu gihe barimo gutanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi, akaba ari igikoresho gifite hejuru televiziyo, hasi kikaba gifite akantu k'umugozi, hariho akantu k'umukara bakoza ku murwayi, bityo muri iyo televiziyo bakajya baraboneramo uko umurwayi ahagaze, cyangwa se ameze, mu rwego rwo kugira ngo biborohere kumenya aho ababara.

Ibintu bitandukanye biteretse ahantu hamwe, hakaba hari ibinini, imidari yambikwa abantu bakoze ibikorwa by'indashyikirwa, hari imbuto z'amoko atandukanye urugero inanasi, oranje, imineke ndetse n'umwembe, hakaba hari n'inzuzi n'utundi tw'uma twifashishwa ku modoka.

Umuntu wicaye ufashe ku kuguru kwe kukabumbamore bigaragara ko ashobora kuba yavunitse hanyuma akaba arimo kuhunga, afite agashashi bisa na ho ari barafu, arimo kugakoza ku kabumbamore mu rwego rwo kugira ngo ahagorore.

Abantu batandukanye, bari mu kibuga gikinirwamo basikete, bakaba basa nk'abantu barimo kubyina, hirya hari abantu benshi babashungereye barimo kureba ibyo barimo gukora, inyuma y'abo bantu bashungereye hari insina nyinshi.

Imbago ni igikoresho cyifashishwa cyane cyane ku bantu bahuye n'ikibazo cy'imvune cyangwa se bafite ubumuga bw'amaguru, akaba ari igikoresho gikenerwa cyane kubera yuko iyo umuntu agifite kimera nk'insimburangingo ubundi akaba yabasha gutambuka.

Umusore wambaye agasengeri kari mu ibara ry'ivu, arararamye, arimo kunywa amazi. Amazi ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, kubera yuko adufasha kumererwa neza, kandi bitatu bya kane by'ubuzima bw'umuntu bigizwe n'amazi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byifashishwa mu gihe barimo bapima umurwayi urwaye inyama zo mu nda, hakaba harimo ikintu hejuru kimeze nk'itoroshi gitorosha ku murwayi bityo bakabona ibikorwa byose bibera mo imbere mu mubiri.

Abantu batatu bari mu kibuga cy'umupira, hakaba hari abantu babiri, bafashe undi muntu hagati muri bo, bisa naho yari arimo gukina, hanyuma akaba agize ikibazo, bityo bakaba bamufashe mu rwego rwo kugira ngo, bamuhe ubutabazi bw'ibanze, hanyuma yongere kumererwa neza.

Umukobwa wunamye, washyize akaboko ke k'iburyo mu mugongo, ak'ibumoso akaba yagafatishije hasi ku mano, bigaragara ko arimo gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa se siporo. Afite imisatsi myinshi, miremire, yambaye agasengeri kamufashe ndetse n'ipantaro imufashe, iri mu ibara ry'ivu.

Umukobwa uhagaze yunamye, bigaragara ko ari muri siporo hanyuma akaba arushye bityo akaba arimo kuruhuka, yambaye inkweto za supurese zifashishwa mu gukora siporo, yambaye agakabutura kamufashe gato kameze nka kora k'umukara ndetse n'agasengeri k'icyatsi.

Ikirango kigaragaza ibyiza byo gukora siporo mu buzima bwawe bwa buri munsi, hakaba hashushanyijeho umusore urimo kwirukanka mu rwego rwo kugira ngo bereke abantu ko gukora siporo ngororamubiri ari ingenzi cyane mu buzima bwa muntu.

Umukobwa wambaye agasengeri k'umukara n'ipantaro yumukara bimufashe, akaba yambaye n'akantu ku kuboko babikamo terefone mugihe barimo gukora siporo, arararamye arimo kunywa amazi mu icupa ry'umweru mu rwego kugira ngo yongere kugira imbaraga nyuma yo gukora siporo ubundi akananirwa.

Imipira itandukanye yifashishwa mu gukina imikino igiye itandukanye, hari umupira wifashishwa mu gihe bari gukina umupira w'amaguru, hakaba ari umupira ukinwa mu gihe bari gukina rugubi, hakaba hari umupira wifashishwa mu gihe bari gukina basiketi, hakaba hari n'ingofero bambara mu gihe barimo gukina kiriketi. Hirya hari agatenesi bakinisha.

Umuntu ufite ishashi mu ntoki bisa naho ari barafu, arimo kuyikoza ku kuboko kwe nkaho yavunitse. Iyo umuntu yavunitse aba ari ngombwa ko yikozaho ikintu runaka gikonje kugira ngo ya mitsi yikanze yongere irambuke.

Umukobwa urimo kunywa amazi mu icupa ry'umweru rifite umupfundikizo w'ubururu, akaba afite isume ku rutugu, yambaye agasengeri karimo amabara agiye atandukanye, urugero ubururu, icyatsi, umukara ndetse n'umweru.

Abantu batatu bahagaze imbere y'inyubako bigaragara ko hari ibintu barimo kubaka. Akaba ari inyubako y'ibitaro, isize amarangi y'ubururu, umweru, imbere yaho hakaba hari utubati tuhateretse.

Agacupa k'umweru kanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, hejuru hariho agasimba kameze nk'isazi gashushanyijeho, bisa naho harimo umuti urwanya udukoko.

Udusorori twinshi dutandukanye duteretse ku meza, hakaba harimo ibyo kurya by'amoko atandukanye, iruhande hari umuntu warambuye amaboko, akaba arimo gufata ibyo kurya bimwe na bimwe akabishyira mu ntoki ze.

Akabati gateretsemo amacupa y'amoko agiye atandukanye, bigaragara ko ari amacupa agiye arimo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, mu gihe umuntu yafashwe n'indwara.

Udukoresho twinshi dutandukanye hakaba harimo tumwe tumeze nk'udutebo tugiye turimo ibintu bitandukanye, iruhande hari agakoresho kabumbye mu ibumba gasize amarangi y'umweru kameze nk'isekuru hakaba harimo n'umuhini basekurisha ibyatsi, mu rwego kugira ngo bakore imiti gakondo.

Ibyo kurya biri mu moko atandukanye, akaba ari amoko atandatu. Hari ibyo kurya biri mu mabara y'umutuku, hakaba hari ibindi biri mu mabara y'umuhondo bimeze nk'ipirawu, hakaba hari ibindi biri mu mabara ya move, ibiri mu mabara y'icyatsi, ibiri mu mabara yijimye ameze nk'inyama z'inkoko, ndetse n'irindi bara rijya gusa umutuku.

Umuntu ufite igipapuro mu ntoki kizingiyemo umuti wi'ibyatsi, bigaragara ko arimo kuwuvanga kugirango abone uko awunywa, umuti w'ibyatsi ni umuti mwiza cyane kubera y'uko utajya ugira ingaruka ku mubiri wa muntu.

Udukarito dutatu akaba ari udukarito tubikwamo ibinini. Udukarito twose turasa, turi mu mabara agiye asa, y'icyatsi, umweru, umuhondo, umutuku ndetse n'ubururu bwijimye.

Udupaki tw'ibinini duteretse imbere y'agakarito kabikwamo ibinini, ibinini akaba ari imiti ikunda guhabwa abantu ikanyobwa, hanyuma indwara umurwayi arwaye igakira.

Akabati gateretsemo imiti myinshi cyane y'amoko agiye atandukanye, akaba ari imiti ihabwa abarwayi kugira ngo bavurwe indwara zigiye zitandukanye. Harimo imiti imwe n'imwe iri mu ducupa, hakaba hari n'imiti iri mu dukarito.

Uducupa tubiri, akaba ari uducupa tuba turimo umuti w'amenyo, uwo muti ukaba ukorwa mu gikakarubamba, umuti w'amenyo ni mwiza cyane kubera yuko ufasha abantu koza amenyo bityo bakagira amenyo meza afite ubudahangarwa.

Agakarito gateretse bisa n'aho kabikwamo ibinini, kakaba ari agakarito kari mu mabara agiye atandukanye, kanditseho amagambo agaragaza ibintu birimo ndetse n'ibibigize, kakaba gateretse ahantu hasa nk'aho ari mu gicu.

Ibintu bitandukanye biteretse ku musambi, hakaba hariho amapera, agakoresho kabumbwe mu ibumba kariho n'umuhini bisa n'aho ari isekuru, ku ruhande hateretseho tangawizi, hirya hateretse utundi tuntu dukase, imbere hateretse igitebo kirimo ibintu bisa nk'ingano.

Uducupa duteretse, akaba ari uducupa turimo imiti ikorwa mu bikakarubamba. Ibikakarubamba byifashishwa cyane mu bintu bitandukanye mu gihe hari indwara runaka abantu bashaka kwirinda.

Amafoto atandukanye agiye ariho ibintu bigiye bitandukanye, hakaba hari ahagiye hari imboga rwatsi zizwi nka dodo, amashu ndetse n'ibindi, hakaba hari za karoti, inyanya, akabati gateretsemo ibintu bitandukanye ndetse n'ibindi bintu byinshi.

Imboga za dodo ni imboga z'ingenzi cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi kubera yuko zikungahaye ku ntungamubiri nyinshi zitandukanye, cyane cyane mu kurinda indwara. Aba ari ngombwa ko abantu barya ibiryo biriho n'imboga rwatsi.

Isahani y'icyuma, iteretseho ibiti bitatu bisobekeranyije bimeze nk'aho ari umwuko, hirya hateretse indobo, irimo ibintu bimeze nk'igikakarubamba.

Umubyeyi w'umumama wambaye imyenda y'ibitenge, ahagaze iruhande rw'ahantu hateye indabo, ziraba indabo z'iroza, akaba afashe ku rurabo bisa n'aho yakunze urwo rurabo.

Ibiti biri mu ishyamba akaba ari ibiti ubona ko bikoze igihuru. Igihuru uba usanga ari ibiti bicucitse biri ahantu, bityo inyamaswa zikaba zishobora kwihishamo. Rero si byiza gutuma ahantu haba ibihuru, kuko inyamaswa zihishamo zishobora kugirira abantu nabi.

Umugabo wambaye ishati imanuyemo uturongo, afite icupa mu ntoki arimo gufungura wagira ngo ririmo urusenda, iruhande rwe hari ibintu by'amoko atandukanye bisa naho ari ibyo acuruza mu rwego rwo gutanga serivise.

Ibintu bitandukanye, hakaba hari imineke, udukarito turimo ibintu bitandukanye, inanasi, hirya hakaba hateretse n'ururabo. Ni ngombwa ko twita ku bintu bijyanye n'imbuto.

Ibimera bitandukanye biteye mu mavaze akaba ari ibimera byifashishwa mu gihe barimo kuvura abantu cyangwa se bikorwamo imiti. Hari ivase rijya gusa n'umuhondo, irijya gusa n'umutuku, irisa umukara ndetse n'irindi rijya gusa n'icyatsi wagirango ngo riteyemo igikakarubamba.

Uducupa tubiri duteretse, akaba ari uducupa bigaragara ko turimo umutobe, utwo ducupa twose tukaba duteretse ahantu hameze nk'aho ari kuri tapi y'ikigina, imbere yatwo hateretse utuntu tumeze nk'imineke.

Ibikoresho byabumbwe mu ibumba, akaba ari igikoresho kimeze nk'isekuru, hejuru hari ikindi giteretsemo kimeze nk'umuhini w'isekuru, iruhande kandi hateretse ikindi gikoresho kimeze nk'inkoko giteretseho ibyatsi bisekurirwa muri iyo sekuru.

Ibintu bitandukanye biteretse ahantu hamwe, hakaba hari imineke, hari udukarito tugiye turimo ibintu byinshi bitandukanye, hari inanasi, hirya ku ruhande hakaba hanateretse ururabo.

Ibikoresho bitandukanye akaba ari ibikoresho byashaje harimo ibicuma, hakaba arimo amacupa atandukanye, imifuka ndetse n'ikintu kimeze nk'igitebo, kandi harimo n'ibindi bintu byinshi bitandukanye.

Ibiti bikunze kugaragara ahantu mu ishyamba cyangwa se muri parike, ibiti akaba ari ingenzi cyane kubera yuko bituma abantu babona umuyaga ndetse n'amahumbezi, ikindi kandi ibiti bituma abantu babona imvura kuko ibiti usanga bihuha cyane bikanazamura umwuka ukuntu maze imvura ikagwa.

Agacupa gateretse, akaba ari agacupa k'umweru kariho ikirango cyanditseho amagambo agaragaza ibintu birimo. Ibintu biri mu gacupa akaba ari acide zifashishwa mu kurinda ibintu bitandukanye.

Udukarito tubiri tubikwamo imiti tukaba turi mu mabara agiye atandukanye, urugero umuhondo, ubururu, umweru, icyatsi ndetse n'umutuku, bigaragara ko ari udukarito dusa neza kandi dushimishije.

Amacupa menshi ateretse ahantu hamwe, ari mu bwoko butandukanye, hari amacupa avamo umuti w'amenyo, mu rwego rwo kugira ngo amenyo ahabwe ubudahangarwa, uwo muti ukaba ukorwa mu gikakarubamba, iruhande rwawo hakaba hari utundi ducupa tubyibushye ariko tugufiya bisa n'aho tubikwamo amata.

Ibintu bitandukanye hari ibinini, hakaba hari imiti y'ibyatsi ndetse n'agacupa, hejuru hakaba hari ibindi byatsi biri mu moko atandukanye.

Ibitebo byinshi bitandukanye biterutse ahantu, bikaba bite ku muranda w'imbingo, buri gitebo kigiye kirimo ubwoko bw'ibintu butandukanye n'ubundi

Amacupa atandukanye arambitse ahantu hamwe, akaba ari amacupa akunze kuba arimo inzoga y'ibitoki cyangwa se urwagwa, kuri buri cupa hakaba hagiye hariho icyapa kigaragaza ubwoko bw'inzoga irimo ndetse n'ibiyigize.

Ikirango gishushanyijeho agacupa bisa n'aho karimo umuti uvura indwara zitandukanye, akaba ari agacupa gatoya karinganiye ku buryo umuntu uwo ari wese ashobora kubona uburyo agatwara bitamugoye.

Ibintu bitandukanye biteretse ku nkoko, ndetse n'ibindi byagiye bisaguka ku ruhande. Ku nkoko hateretseho agakoresho kabumbwe mu ibumba kameze nk'isekuru, ndetse muri iyo sekuru, hakaba harimo n'umuhini bifashisha mu gihe barimo gusekura imiti y'ibyatsi. Ku ruhande kandi hateretse irindi cupa ririmo amavuta y'ubuto.